Imiti myinshi yifashisha mu bworozi, aho iyo ubonye amatungo magufi arwaye ujya ku muganga akakubwira uko bimeze ukagura imiti kugira ngo iyo nka yawe ibashe gukira itarwaragurika cyangwa se ibe yapfa bakayihamba nta n'umuntu uyiriye.

Mu Rwanda hagezweho gukoresha ifumbire mvaruganda cyangwa se imbuto zatoranyijwe kugira ngo wizere umusaruro, aho bitandukanye na kera wasangaga umuturage yihitiramo imbuto atera ahantu kandi ugasanga nta bijyanye, ubu ngubu basigaye babigirwa inama na Leta.

Abaturage bivangiye muri koperative, aho bahinga umurima munini kandi bakawuteraramo igihingwa kimwe, urugero nk'inyanya, bituma bibumbira muri koperative bakinjiza amafaranga menshi, atuma babaho mu buzima bworoshye kurusha guhingira amafaranga.

Ubuhinzi bw'urutoki iyo bwitaweho neza, butanga amafaranga ku gukora, urugero nko mu cyaro ubu usanga abagabo benshi bahinga urutoki kandi bagakira ku rwego rushimishije, insina zitanga umusaruro utandukanye, ibitoki byo kuribwa ndetse n'ibyo kurya.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ni ibintu byiza, aho umuturage iyo ahinze ibikomfotoro bimwinjiriza akayabo k'amafaranga atubutse, maze akiteza imbere akubaka ahantu heza ho kuba, akambara imyenda myiza bitewe n'uko yahinze ikintu kigezweho ku isoko maze kikamuzanira amafaranga menshi akiteza imbere.

Abaturage basigaye bibumbira hamwe kugira ngo bahinge imbuto imwe kandi y'indobanure, aho usanga bazihumbikira mu tuntu tw'udushashi kugira ngo igihe bateguye umurima bamaze gucukura ibinogo, bazafate urwo rubuto barujombemo bitewe n'uko ruzaba rufite ingufu.

Ifumbire mva ruganda igira umumaro mu buhinzi bw'umuturage bwa buri munsi bitewe n'uko itubura umusaruro kandi umuntu ntiyicwe n'inzara kuko yaba yahinze, ni byiza ko umuturage wese akoresha ifumbire mvaruganda mu kongera umusaruro we w'ibiribwa.

Guhinga ku materasi y'indinganire ni ibintu byiza bitewe nuko ntabwo amazi aza ngo atware ubuhinzi bwawe, ni ibintu uba ugomba kwizera ko uzasarura bitewe nuko aba ari ahantu heza buri wese yakwishimira kuba yatera igitunguru cyangwa se inyanya.

Mu cyaro uba usanga hakorerwa ubuhinzi bw'urutoki, aho bwinjiriza amafaranga menshi ubukora, urugero nk'abagabo bo mu cyaro baba bafite insina kandi izo nsina aba ari izabo bazikuramo amafaranga y'agatubutse, bakagura imyenda, bakubaka amazu kandi bagashaka n'abagore.

Ubuhinzi bw'ibigori iyo bwitaweho neza butuma ubukoze abona amafaranga, urugero nko gukora uruganda rukora umutsima w'ibigori nk'akawunga, aho abanyeshuri benshi bakunda ku karya ndetse n'abantu bafunzwe bakunda kurya ibigori, rero ntabwo wabura isoko.

Ibiti bivangwa n'imyaka bitanga umusaruro mu gihe bahinga ibigori cyangwa se imiteja cyangwa se ibishyimbo by'imishingiriro, ibyo bishyimbo bizamukiraraho kugira ngo bibone uko abizera neza nta mpamvu yo gushinga imihembezo ku biti.

Abaturage bo mu cyaro bakunze kuvanga ibiti n'amateke, aho usanga amateke ibibabi babigarurira ingurube, naho hasi bakahakura, bakahateka, bakahahata maze bikababeraho ni byiza. Usanga bitandukanye no mu cyaro aho barya imbuto.

Ubuhinzi bw'amashu iyo bukozwe bababa ugomba gusasirwa kandi bukabona amazi kugira ngo burusheho kumera neza, iyo amashu atabonye amazi agomba kuma cyangwa se akaribwa n'udusimba bitewe n'uko uba utazisasiye rero uba ugomba kubikora kugira ngo ubone amafaranga.

Ubucuruzi bwa karoti butanga amafaranga ku isoko, aho usanga karoti abantu benshi bazikunda kuzihekenya kandi n'ibibabi byazo bakunda kubigaburira inkwavu. Ni ibintu byiza, iyo wahinze karoti ko ugomba korora inkwavu kandi karoti wanazihingana n'ibindi bihingwa, urugero nk'amateke.

Isoko rusange aho usanga abantu benshi bazanye ibihingwa bitandukanye undi akaza kubigura, urugero: intoryi, imboga, ibihaza ndetse n'ibitunguru, usanga ari ibintu bikunze kuba mu isoko cyane cyane isoko rya ndaburaye cyangwa se irindi soko rihuriweho n'ingeri nyinshi zitandukanye.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ibintu byiza, aho usanga buri wese akunda kurya imbuto, yaba yariye umuceri arenzaho imbuto, yaba yanyweye amazi arenzaho imbuto, rero bikamufasha kubyibuha kandi akaruhuka ntagire imbaraga nke kandi akabaho neza n'ubuzima bwiza muri rusange.

Ubuhinzi bw'ibiti n'indabo, urugero nka avoka zitanga amafaranga ku muntu afite igiti cye kuko usanga zikundwa n'ingeri nyinshi zitandukanye, abantu bakuze bakunda kurya avoka ndetse n'abana batoya cyane, aho usanga zabatera imyijima.

Mu bigo by'amashuri ubu usanga hari indabo, ndetse n'ahantu heza ho kwicara, umuntu akaruhuka bitandukanye na kera, aho abanyeshuri bicaraga munsi y'igiti bakiga, ubu ngubu abanyeshuri basigaye bazenguruka mu ndabo nziza ndetse bakanicarayo.

Ibishanga bikunze guhingwamo icyayi ndetse n'umuceri, aho usanga ku musozi bahahinga imyumbati, rero impamvu mu gishanga haba hariyo amazi kandi umuceri wuzura n'amazi bitandukanye n'umusozi, aho umusozi uba warumye ukenera ibintu byihanganira ubushyuhe ndetse n'izuba.

Ubworozi bw'inkwavu ni ikintu giteza imbere umuntu ubukoze, aho usanga bumufasha kubona amafaranga kandi inkwavu ni amatungo agira ifumbire cyane, aho usanga zororoka ku buryo bwinshi, ugasanga uragemurira isoko n'abantu bakunda kuzirya, ziraryoha.

Ubworozi bukorewe mu kiraro butanga umusaruro, mu gihe kera bafataga inka bakayijyana hanze ikangiza imyaka y'umuturage bikamuteza igihombo n'amakimbirane hagati y'abaturage, ubu ngubu inka basigaye bayahirira bakayiha ubwatsi mu kiraro kugira ngo ibeho neza.

Ubworozi bw'inka iyo bwitaweho bwinjiriza amafaranga yo gukora kandi akabuvanga n'ubuhinzi. Aho usanga ibisigazwa by'imyaka bigaburirwa inka kandi inka igatanga umukamo n'amafaranga n'inyama mu gihe ibyo wahinze ubijyana ku isoko.

Ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo, aho usanga abaturage bafite ubworozi bibumbiye mu makoperative, bifashishije ibihingwa urugero nk'inanansi cyangwa se insina bakazitemera inka kugira ngo zibone ibyo zirya buri munsi kandi zigashisha.

Ubworozi bugezweho bw'ingurube, aho usanga ingurube ifite amafaranga kandi ukayifatanya n'ubuhinzi. Ni ibintu byiza kuko ifumbire y'ingurube uyikoresha utera imboga n'imbuto ndetse n'ibinyomoro, aho ubikora bimwinjiriza amafaranga kandi n'ingurube akazigurisha, akazirya.

Ubworozi bw'inzuki buteye imbere ni uburyo umuntu yifashisha ibiti akabohamo umutiba maze umutiba akaba ari aho inzuki zitaha zikahakorera ubuki, usanga mu cyaro ariho hantu hari ubworozi bw'inzuki kurusha mu mujyi.

Ubuhinzi bw'icyayi ndetse n'umuceri ni ibintu bijya mu bishanga kugira ngo babone amazi, ni ibintu byiza kuko umuceri iyo utabonye amazi ntabwo wakwera rero uba ugomba kuba uri ahantu hari amazi, iyo atabonetse uba ugomba kuwuvomerera.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bugira amafaranga aho usanga umuntu ucuruza imboga n'imbuto aba agomba kuba ari umukire cyane cyane afite ahantu heza ho kuba cyangwa yambara neza, ni ibintu byiza ko buri wese nk'iyo agiye kurya agomba kuba afite imboga n'imbuto ku byo agiye gufungura.

Inyoni zikunze kwangiza imyaka y'umuturage, aho usanga zikunze kwibera mu biti, ariko iyo zagiye kurya zijya mu bigori zikabitonora, zikabirya, aho abaturage benshi bashyizemo zakadahumeka mu mirima yabo kugira ngo yirukane inyoni.

Inkende zikunze kwangirizi abaturage, aho usanga mu karere ka Huye abaturage bijujuta bavuga ko zibamariyeho imyaka, basaba Leta kugira icyo ikora, urugero kuzijyana muri pariki bakazikura mu bantu kuko ntago inyamaswa zibana n'abantu.